Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa n'abana bato, aho harimo agakapu ndetse n'utudenesi turi imbere yako, aho bifasha abanyeshuri kwiga amasomo atandukanye, abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi ku bumenyi bafite.

Igikuta kiza gitunganyijwe gisize irangi ry'umuhondo, kiriho ibishushanyo by'igishyimbo bigaragaza inzira kigenda gicamo kugira ngo kimere, bifasha abanyeshuri mu masomo yabo ya buri munsi.

Ibishushanyo bitandukanye bigizwe n'inyamaswa z'ubwoko bwose zishobora kwifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke kugira ngo bagire ubumenyi butandukanye ku nyamaswa.

Ibishushanyo bitandukanye bigizwe n'ibipupe ndetse n'amacupa, bigaragaza ko abantu bashobora kubyifashisha biga bagakunda amasomo kubera ko baba bakunda ibikinisho.

Igikuta giteguye neza, gisize irangi ry'umuhondo, kikaba cyegereye mu muryango, aho hahagazemo abana b'abanyeshuri, gishushanyijeho inyamaswa zitandukanye, harimo umusambi ndetse n'inzovu, bishobora gukoreshwa mu burezi.

Ibikoresho bitandukanye biri mu cyumba kigari aho harimo intebe ameza utubati ndetse n'ibindi, aho bifasha abanyeshuri kuhigira bakabasha kunguka ubumenyi, ndetse bakabasha no kugira icyo bamarira ishuri ndetse nabo ubwabo.

Icyapa k'iza k'icyatsi aho kiriho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru avuga ngo ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo.

Igikuta k'inyubako y'ishuri gifite ibara ry'umuhondo gishushanyijeho inkoko, ishobora kwifashishwa nk'imfashanyigisho ku bantu bakiri bato, biga mu mashuri abanza cyangwa se amashuri y'inshuke.

Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa n'abana bato, aho harimo ibikoze mu mafi, udusimba dutandukanye, bifasha abanyeshuri kwidagadura badukoresha, bakabasha no kubimenya mu mazina yabyo, bakungukiramo ubumenyi.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa mu rugo, harimo indobo ndetse n'utundi tugiye dutandukanye, twose tukaba ari ingirakamaro cyane.

Inyubako z'amashuri izigomba kuba zifite iminyega, abana biga mu mashuri y'inshuke bagomba kujyaho maze bakaba bahakorera imyitozo ngororamubiri.

Igikuta k'inyubako y'ishuri gishushanyijeho ibihingwa bigiye bitandukanye aho hariho ibishyimbo biri kumera ndetse n'ibindi bimaze gukura bigiye bishushanyije ku gikuta byiza.

Icyumba cy'ishuri gifite ibikuta byubatse neza, bisizeho irangi ry'umuhondo, byubatseho imfashangisho, zifasha abana mu masomo yabo ya buri munsi kugira ngo bunguke ubumenyi buhagije.

Igiti kirekire kirimo amababi meza atoshye kandi agiye atandukanye, kikaba ari cyiza kandi ari ingirakamaro.

Inyubako y'ishuri rya Nyagatare, aho imbere yayo ihagazeho abanyeshuri bakaba bari gukinira hanze, imbere yabo hakaba hari ubusitani bw'indabo bwiza, ndetse n'umuhanda bakiniramo bakidagadura ndetse bakungurana n'ubumenyi.

Ikicungo kiza kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, aho gihagazeho abanyeshuri babiri bashaka kwicundaho, inyuma yabo haba hahagaze abandi bantu bakuru bambaye imipira y'imihondo, barimo barabareba.

Muri Pariki y'Igihugu y'u Rwanda, dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hari iyitwa agasumbashyamba, aho iba ari nini cyane igakunda kurisha amababi y'ibiti yo yibereye hasi.

Igikuta cy'ishuri gishushanyijeho idarapo ndetse n'ibindi bikoresho, harimo itara ndetse n'igishushanyo cy'umutima w'umuntu, aho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri ibintu bigiye bitandukanye bibungura ubumenyi.

Inyubako ifite igikuta gishushanyijeho ibishyimbo, ikaba ari ishuri ryigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke bagira ngo bakurikirane amasomo yabo babashe gutinda.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turi ahantu, hakaba hari n'amakaramu y'igiti menshi agiye atandukanye, aho yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye bari gukurikirana amasomo.

Abantu bicaye ku ntebe, aho bafite ibikoresho bya murandasi bitandukanye, abafite amamashini, amatelefone, ekoteri ndetse n'ibindi, bifashisha bumva amakuru agiye atandukanye ndetse bakabasha no kumenya ibintu bigiye bitandukanye.

Mu nyubako ikorerwamo uburezi harimo abantu batandukanye barimo abanyeshuri bakiri bato bambaye impuzankano ndetse hakabamo n'ababyeyi bicaye, aho umubyeyi umwe yicaye ari kugaburira umwana ukiri muto.

Ibikoresho bikozwe mu bitambaro bishushanyijeho ibipupe bitandukanye bishobora kwifashishwa mu gutanga uburere bw'abana, aho abana bakunda amashusho atandukanye bityo bikaba bishobora gutuma akura neza.

Ibikinisho biriho ijisho rimwe ndetse n'ikiriho amajisho abiri, aho bikoreshwa n'abana biga ibintu bitandukanye nk'amabara, icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo kugira ngo babashe kumenya ibintu bitandukanye.

Umupapa uhagararanye n'umwana we ahari kumwereka ibishushanyo bishushanyije ku gikuta, harimo inanasi ibishyimbo inyanya ndetse n'ibindi, bifasha uyu mwana kumenya ibintu bigiye bitandukanye by'ibiribwa.

Abana bakiri batoya, bari kwiga gutera irange. Bakaba bambaye utugofero tw'abayisilamu, bari kugenda batera irange ku bikuta, bigaragara ko ari abahanga cyane.

Igikinisho cy'abana gikozwe mu ishusho y'imodoka ifite amabara atandukanye harimo umukara ndetse n'umuhondo yifashishwa kugira ngo umwana ashobore kumenya imikino itandukanye ndetse akundishwe ibikoresho bitandukanye.

Abanyeshuri benshi batandukanye bahuriye hamwe aho bishimye, bakaba bari kwishimira hamwe bambaye imyambaro igiye itandukanye iranga umuco gakondo, bafite n'ibihembo mu ntoki.

Igikuta k'inyubako y'icyumba k'ishuri gitunganyije neza gisize irangi ry'umuhondo kikaba gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye harimo amasaha ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa mu kwigisha abantu.

Ibipupe bibiri by'ibikinisho aho biri mu mabara atandukanye umweru ndetse n'umutuku, imbere yaho hakaba hari n'akamodoka kari mu ibara ry'umuhondo gato, bikaba byicaye hasi bifasha abana kubikinisha bakishima.

Udukapu twinshi tugiye dutandukanye, abana bifashisha bari gutwaramo amakayi by'umwihariko abiga mu mashuri y'inshuke kuko ari bo baba bagomba kwita ku makayi yabo neza.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu mabara y'ubwoko bwose, harimo ubururu, umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'umuhondo, bishobora kwifashishwa, mu bikoresho byafasha abana mu mikino itandukanye.

Amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo bishushanyije ku gikuta k'inyubako y'amashuri yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke aho harimo ibishyimbo biri kumera hari inkoko ibaze ndetse hari n'imyumbati.

Ibibumbano bibiri by'abagabo bari kurasana, aho kimwe ari icyatsi ikindi kikaba umukara bigaragaza ko bari kwitoza kurasa ndetse bakabasha no kuba barinda Igihugu muri rusange.

Amoko agiye atandukanye y'inyamaswa dukunda gusanga muri pariki y'Igihugu y'Akagera, muri izo nyamaswa dusangamo intare, inka ndetse n'izindi nyinshi.

Urubaho rw'umuziki rushushanyijeho imiziki igiye itandukanye ikinwa ndetse hakaba harimo n'amagambo y'indirimbo zishobora kuririmbwaho bifasha abanyeshuri kwiga uko bacuranga ndetse bakabasha no kuririmba neza.

Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa n'abana bato aho harimo ibipupe, utubuwate ndetse n'ibindi aho bifasha abanyeshuri kwidagadura bakabasha kwiga bishimye ndetse bakumva n'amasomo biga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ishushanyijeho udushushanyo tugiye dutandukanye, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Ibikinisho by'ubwoko butandukanye bifite amabara umweru ndetse n'icyatsi byifashishwa mu burere bw'abana aho batozwa gukina imikino itandukanye bigatuma bakura mu mutwe.

Abanyeshuri bari kugana mu isomero aho bari mu muhanda mwiza uteye irangi ndetse na sima hakaba hari imbere imodoka nziza cyane ikaba iri kubafasha kuba bamenya ubumenyi butandukanye iryo somero.

Igikoresho kigezweho, gifite amabara atandukanye, harimo umutuku n'umukara, cyifashishwa nk'igare, aho gifite amapine atatu, gikoreshwa mu gusunika umwana kugira ngo bimurinde impanuka.

Ibikinisho bigizwe n'amabara atandukanye, bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana, aho babyifashisha mu mikino yabo ya buri munsi kugira ngo bashobore kongera icyizere hagati yabo ndetse banisanzuraneho.

Ahantu badatunganyije neza imbere yabo hari ikigo cy'amashuri aho bari gukina imikino igiye itandukanye babasha kwiruhura mu mutwe ndetse bakunguka ubumenyi binyuze mu kumva amasomo biga ndetse ba bakazaniteza imbere mu mibereho yabo.

Ahantu heza cyane hari udukoresho turi mu mabara atandukanye, abana biga mu mashuri y'inshuke, bifashisha bari gusubiramo amasomo yabo kugira ngo babashe kuyatsinda. Tukaba turi mu mabara y'umuhondo yiganje.

Ibishushanyo bitandukanye bishushanyije ku gikuta cy'ishyuri harimo igisokozo, umwana uri kwiruka, ibikoresho by'isuku, harimo ibasi ndetse n'ibindi aho bifasha abanyeshuri kwiga amasomo bakabasha kuyumva neza ndetse bakabasha no kugira icyo bamenya kuri ibyo bikoresho.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ishuri, aho harimo amarate, kompa ndetse n'udusiba, aho byifashishwa mu kwiga amasomo agiye atandukanye, afasha abanyeshuri kwiga ndetse bagatsinda amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri cya Wisdom School, kikaba cyubatswe mu buryo bw'amagorofa, kikaba kiri ahantu heza hari ubusitani bwiza cyane.

Udupupe tuba turi ku bikapu tuba ari twiza cyane, kubera ko abana biga mu mashuri y'inshuke badukunda, bakunda gutwaramo amakaye n'amakaramu yabo kugira ngo atangirika.

Ahantu heza hatunganyijwe ku buryo hashobora gukorerwa uburezi bwo mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke, hasize amabara meza atuma abana bakunda amasomo bitewe n'uko baba bakunda amabara.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho irimo urumuri ruhagije, ikaba iteguyemo ibikoresho byifashishwa mu burezi harimo intebe, ameza bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza.

Umusaza wahuje abana be aho ari kugenda abaganiriza abacira umugani wa Maguru ya Sarwaya, ababwira ukuntu Maguru ya Sarwaya yirukankaga agasiga imvura ndetse n'umuyaga.

Ibikoresho byiza bigezweho birimo amabara atandukanye umuhondo n'icyatsi byiganje, bigizwe n'amakaramu y'ibiti amakoresho bikoreshwa mu guca umurongo ndetse n'imikasi bishobora kwifashishwa mu burezi.

Ibyapa byinshi bigiye bitandukanye biba byerekana amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa bifite amaso bakaba babyiga mu mwaka wa kane, mu mwandiko witwa tworoherane.

Ikigo cy'ishuri i kigali aho byubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati asize irangi ry'ubururu, imbere yacyo hakaba hari umuhanda mugari ucamo abanyeshuri bagiye kwiga mu mashuri atandukanye bakabasha kunguka ubumenyi.

Igishushanyo gishushanyijeho igikombe, isuka ndetse n'icyuma, aho bigaragara ko abanyeshuri bakifashisha biga icyo bimara ndetse n'icyo bikora kugira ngo babashe kunguka ubumenyi bugiye butandukanye kuri byo.

Abantu benshi batandukanye bagizwe n'abana ndetse n'abantu bakuru bicaye, mu gihe hari abahagaze bari kuganira, bikagaragara ko aho bicaye ari ahantu hatunganyijwe hashobora kubera ibiganiro.

Abantu bicaye ahantu hamwe aho hari umwe wicaye ku mukeka ndetse n'undi wicaye ku gatebe, barimo baraganira ku bintu bigiye bitandukanye, ndetse bakabasha no kugirwa inama kugira ngo baziteze imbere mu mibereho yabo.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye twerekana imibare, hakaba harimo kuva kuri rimwe kuzamura, hakaba harimo ndetse n'utundi dukoresho twinshi abana bifashisha bari kwiga.

Abantu bakoze umuhango wo guhemba abana bitwaye neza, aho hari abana babiri biga mu mashuri abanza, bakaba bari guhabwa ibihembo n'abarimu babo, babashimira kubera ubutwari bagize.

Igitabo kiriho inuma ebyiri zihagaze ku biti byatemwe, bigaragara ko gishobora kwifashishwa mu kwigisha abana inkuru kugira ngo basanishe ubuzima bwabo n'ibyo babona mu ishuri.

Imibumbe y'Isi ibiri iri ahantu hamwe, ikaba imeze neza cyane bigaragara ko bayifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, babigisha uko isi iba izenguruka.

Abagore babiri aho bahagaze umwe yambaye ekuteri mu matwi undi akikiye umwana, bari imbere y'igishushanyo gishushanyijeho iterero kuri radiyo, barimo baragaragaza ko abana ari ingirakamaro.

Icyapa kiza cyanditseho amagambo y'umukara ubururu ndetse n'umutuku, aho kigaragaza uburezi buzira inenge, aho bifasha abanyeshuri kwiga neza ndetse bakabasha kugira icyo bigezaho ndetse n'icyo bageza ku gihugu.

Ibipupe byinshi bigiye bitandukanye birimo inyuguti nyinshi nazo zigiye zitandukanye bikaba biri mu mabara menshi ari yo ubururu, umutuku, n'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ishuri, aho harimo udusiba utwandika ndetse n'amakayi akaba hariho n' ibikinisho byayo, aho bifasha abanyeshuri kwandika neza ndetse bakunguka n'ubumenyi ku bigendanye n'ibyo gushushanya.

Inyubako yubatse neza irimo ibikoresho bitandukanye, ameza n'intebe bishobora kwifashishwa mu burezi, harimo n'abantu batandukanye bahagaze bari kuganira ku bikoresho biri muri iyo nyubako.

Ibitabo bitandukanye aho biri mu mabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu, bikaba biteretse ku meza ndetse hakaba hari n'umugabo uri gusoma igitabo kimwe muri byo, abasha kunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho biba biri mu mabara menshi agiye atandukanye, haba harimo amakaramu y'ibiti, amakayi ndetse n'amakaru asanzwe.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho isizemo amarangi y'ubwoko butandukanye harimo umuhondo n'umweru ikaba kandi ifite urumuri ruhagije irimo ibikoresho bishobora kwifashishwa mu burezi harimo intebe n'ameza.

Inyubako z'ikigo cy'amashuri, aho izo nyubako zubatswe mu buryo bugezwemo bwa kijyambere, zikaba zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kugira ngo bakurikirane amasomo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu bwubatsi ndetse no mu bubaji, harimo inyundo, imisumari, umukasi ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa mu mirimo itandukanye, bityo bikifashishwa no mu kwigisha.

Igikoresho kirimo ibintu bitandukanye, ikaramu y'igiti, irate zikoreshwa mu guca imirongo ndetse n'incaruziga byifashishwa mu isomo ry'Imibare bifasha umunyeshuri kwiga ibinyampande azi no kubishushanya.

Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshuri mu mashuri abanza, aho biri mu mabara atandukanye, umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'ayandi, ho higanjemo ibishushanya, ibikinisho byo gukina umupira ndetse n'ibishushanya uruziga.

Inyubako ifite urugo rwiza cyane rufite inzugi zisa ubururu ndetse n'umutuku, hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho ngo igororero rya Nyagatare, byerekana ko ariho bafungira abakoze ibyaha.

Igishushanyo gishushanyijweho inyamaswa ihene ndetse n'urutoki aho bifasha abanyeshuri kumenya ibintu bigiye bitandukanye ndetse bakabasha no kuvumbura uko bashushanya inyamaswa zitandukanye bikabateza imbere mu bigendanye n'ubugeni bwabo.

Ibikinisho bikoreshwa n'abana batoaho harimo ibiziga byinshi ndetse n'amabaro bakinisha aho bakina imikino itandukanye bakabafasha kunguka ubumenyi mu mitwe yabo ndetse bakabasha no kumenya ubwenge.

Ibikoresho bitandukanye bishobora gukoreshwa mu burezi cyane cyane mu isomo ry'imibare, aho byanditseho imibare itandukanye bityo bikifashishwa mu kwigisha abana kwandika imibare ndetse no kubara bisanzwe.

Igikapu kiza gikoze neza mu ishusho y'igipupe, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'iryenda kuba umukara, gishobora gufasha abana mu masomo yabo kuko bakunda ibipupe.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, ubwo baba baje gukurikirana amasomo yabo bakaba ari abiga mu mashuri y'inshuke.

Ibikoresho bitandukanye bishushanya harimo incaruziga, irate rishushanya ndetse rigaca n'imirongo, ndetse n'ibindi aho bifasha umunyeshuri kunguka ubumenyi butandukanye ndetse akabasha no gukora ibintu bye neza.

Ibikoresho bitandukanye bigizwe n'inyuguti ndetse n'utuzu, bigaragara ko bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke, inyuguti cyangwa se ibinyampande.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa cyane cyane mu isomo ry'imibare, aho haba harimo ibikoresho bakoresha baca umurongo n'ikaramu y'igiti ndetse n'insharuziga, byose bikenerwa mu isomo ry'imibare.

Udushusho twinshi dutandukanye dukoze mu buryo bumwe, tukaba dufite amabara atandukanye harimo: umukara, umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi, dushobora kwifashishwa mu kwigisha abana ibyerekeranye no kubaka.

Agakapu keza cyane kari mu mabara y'umukara kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho batwaramo amakaye yabo agiye atandukanye kugira ngo batsinde amasomo yabo neza.

Ibitabo byinshi bitandukanye, biba birimo amasomo ashobora gufasha abana mu myigire yabo, bityo bigatuma bagira uburezi bufite ireme, bakazabasha kugira icyo biteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo.

Ububiko bwiza butunganyijwe burimo ibikoresho bitandukanye harimo amabara ndetse n'amarangi, byifashishwa mu gihe abana bari kwiga isomo ryo gushushanya bityo bikabafasha mu buzima bwabo.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye turi ahantu hamwe, hakaba harimo utwa mpande eshatu, utwa mpande enye, utwa mpande eshanu n'utwapande esheshatu twinshi.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati asize irangi ry'ubururu, inyuma y'aho hakaba hari izindi nzu zisize amarangi y'umweru ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hari amamodoka ndetse n'amamoto ariho abagenzi.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza iyo bari kwiga isomo ry'Imibare harimo amarati, amakaramu y'uruziga ndetse n'uducaruziga twinshi.

Inkuru ya Cibiri n'Umurongo, iyo nkuru ikunze kwigwa mu banyeshuri b'inshuke aho baba bababwira ukuntu Cibiri yahuye n'Umurongo, ukajya uramuha agapfunyika na we akanga kugatora atabanje kureba ikirimo.

Inyubako nziza zigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho abo bana baba bafite iminyenga bajyaho hanyuma bakajya barayicundaho kugira ngo babashe kumererwa neza cyane.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho aho igeretse kabiri ikaba igizwe n'amabara y'umweru ndetse ikaba yubakishije n'amabati ikaba ifiteho n'amatafari ahiye aho yifashishwa nk'ikigo cy'ishuri kugira ngo abana bige babashe kunguka ubumenyi butandukanye.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye tw'ingirakamaro. Aho utwo dukoresho turi mu mabara agiye atandukanye. Harimo amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'ubururu n'amabara y'umutuku, tukaba dukoze umubumbe w'isi.

Agasanduku abanyeshuri batwaramo amakaye yabo, kaba kari mu mabarage atandukanye y'umuhondo ndetse n'amakara, kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, batwaramo ibikoresho byabo kugira ngo babashe kwiga neza maze batsinde.

Amarate, kompa ndetse n'ibindi aho byifashishwa mu kwigisha abana gushushanya neza ibishushanyo bitandukanye ndetse bikabongerera ubumenyi mu myigire yabo bakabasha kumva amasomo neza.

Icyumba k'ishuri kicayemo abanyeshuri bari kwigira mu matsinda, aho imbere yabo hahagaze umwarimu uri kubasobanurira amasomo ndetse bagahanahana ibitekerezo mu matsinda yabo, bakabasha kumva isomo neza.

Ibitabo by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu mashuri kugira ngo abana bashobore gusomerwa inkuru zihuye n'ubuzima baba barimo bityo basanishe ishuri n'ubuzima bwabo bitumye bakunda kwiga.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu masomo y'abana bishobora gukoreshwa kugira ngo abana bagire ubumenyi butandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi bashobore kwiteza imbere.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye bikozwe mu mabara menshi harimo: umutuku, umukara, icyatsi, umuhondo, byifashishwa n'umwarimu kugira ngo ashobore kwigisha abanyeshuri bityo bakunde isomo.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo utubati, ameza, intebe ndetse bibasha gufasha abanyeshuri kwiga neza, bakabasha kumva amasomo kandi bakabasha no kungurana ubumenyi mu mibereho yabo ya buri munsi y'ishuri.

Umuryango mugari w'ikigo cy'ishuri, bigaragara ko abana bato bari kwinjiramo bityo hakaba hatangirwa amasomo, bigafasha abana banyuranye gukura bafite ubumenyi bubafasha mu buzima bwabo.

Ibitabo bitandukanye byifashishwa mu burezi, bishobora kuba birimo inkuru zifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo bahuze ubuzima busanzwe n'ibyo biga ku ishuri bityo bakunde kwiga.

Ni byiza cyane ko mu mashuri y'inshuke haba harimo utubati turimo ibitabo abanyeshuri basoma kugira ngo bunguke ubumenyi bugiye butandukanye maze bajye batsinda amasomo yabo uko bikwiriye.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, aho yubatse ikaba isize amarangi atandukanye harimo umuhondo n'umukara, imbere yayo hari ubusitani nabwo bugaragaza ko hashobora kuberamo ibikorwa by'imikino.

Inyubako nziza cyane y'amashuri iteraniyemo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, aho harimo umwarimu w'umugore uhagaze imbere yabo uri kubigisha, akaba yambaye itaburiya ndetse yifashe mu mifuka y'itaboriya yiwe.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati asize irangi ry'ubururu, imbere yayo harimo ndetse n'ikibuga cyiza gikinirwaho, abanyeshuri bakabasha kwidagadura.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'imyenda hasi y'ubururu, aho bahagaze baririmba indirimbo zitandukanye ndetse bakabasha no guhabwa amabwiriza agendanye n'ishuri ryabo.

Abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye aho bambaye icyatsi, umutuku, ubururu, ndetse n'umukara, hakaba harimo n'abandi bambaye imipira isa y'umuhondo ndetse n'icyatsi bakaba barimo bararirimba bidagaduye.

Icyumba cy'ishuri gitunganyijwe neza, cyicayemo abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano, aho umwarimu umwe ahagaze imbere yabo, yambaye imyambaro yabugenewe, ari kubasobanurira ibikorwa bitandukanye.

Abanyeshuri bari ku murongo bakaba bahagaze bahanye intera bakurikiranye, ahantu hatunganyijwe kugira ngo bajye bashobora gukaraba intoki mu gikorwa cyo kwirinda umwanda.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ibikuta byayo bimwe bikaba bisize amarangi y'umuhondo, ni inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kubika.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye agaragaza ikigo cy'ishuri gitangirwaho uburezi bufite ireme, aho abana bajya bakunguka ubumenyi, bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umunyeshuri wambaye impuzankano ndetse akaba yatebeje. Yahagaze imbere y'abandi banyeshuri ari gusobanura ibyo yakoze kugira ngo abashe gusaranganya ubumenyi afite na bagenzi be.

Inyubako nini irimo abanyeshuri benshi batandukanye, aho umwe muri bo yambaye umupira w'imbeho, akaba yicaye ku meza, mu gihe abandi bose bari muri icyo cyumba bahagaze ndetse batambaye imipira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikaba irimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abambaye utujiee ndetse harimo n'udutebe twiza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza benshi bahuriye hamwe, aho bari kwiga ibintu by'ikoranabuhanga, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo buri wese, bari kugenda bakurikira mwarimu ibya arimo ababwira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo abantu b'abakorerabushake bambaye utujere dusa icyatsi, bari kugenda muri iyo nyubako bareba ko ibikorwa birimo bikorwa neza.

Abanyeshuri benshi batandukanye bahagaze ku mirongo yegeranye, bambaye impuzankano zitandukanye, aho bamwe bambaye ubururu, abandi bakaba bambaye umukara, mu gihe abandi bambaye umweru, bakaba bambaye na kaki.

Ahantu heza hari aho bakinira hakaba hari ibyicungo abana bicundiraho bikaba biri ku ruzitiro rw'ishuri aho rwubakishije amatafari ahiye ndetse bikaba bifasha abana kwiga bafite umutekano batabasha kurangara.

Icyumba kigali cyicayemo abanyeshuri bari gukora ibizamini aho bahagarariwe n'ababareberera kugira ngo badakopera kugira ngo babashe kunguka ubumenyi barebe aho bageze mu myigire yabo batsinde neza.

Abanyeshuri bahagaze ahantu hamwe abo bambaye imipira y'umuhondo ndetse bakaba bari kumwe n'abarezi babo ndetse n'undi mugabo wambaye ijire y'icyatsi barimo barafata ubumenyi butandukanye bubafasha mu mibereho yabo.

Abantu bicaye mu mu matente aho bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi bicaye impande yabo bambaye imyenda isanzwe, aho bari mu nama igaragaza kwiga ku rubyiruko ndetse bakabasha no kumenya amakuru agiye atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bateraniye hamwe bari kwifotoza. Bamwe bahagaze hasi abandi bicaye ku ntebe, abandi bazihagaze hejuru bari kwifotoza bishimye.

Abanyeshuri benshi batandukanye bahagaze inyuma y'abayobozi babo bicaye mu busitani aho bigaragara ko hari hatunganyijwe kugira ngo habere ibikorwa bitandukanye aho hashobora gutangirwamo n'amasomo.

Abanyeshuri batandukanye bahagaze mu buryo bw'imirongo irambuye, bambaye impuzankano, hejuru bambaye ubururu, hasi bambaye umukara ikindi nuko ahantu bahagaze hateguwe hakaba hubatse ku buryo bwiza.

Abanyeshuri batandukanye bahagaze begeranye, bambaye impuzankano hejuru zisa bambaye amashati y'umweru mugihe bamwe muribo bambaye umukara abandi bakaba bambaye kaki.

Inyubako y'ishuri yubatse mu buryo ishobora kuberamo ibikorwa bitandukanye, harimo abantu benshi batandukanye bambaye imyambaro ijyanye n'imirimo bakora aho bigaragara ko bari mu bugenzuzi.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri aho bicaye ku ntebe nziza bari gukora ikizamini, inyuma yabo hicaye umwarimu ndetse hari n'ikibaho gisize irange ry'umukara, bifasha abanyeshuri kwiga amasomo atandukanye, bakunguka ubumenyi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri aho bari mu gikorwa cyo kwandika bakaba bambaye impuzankano z'ubururu ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bigaragara ko hari hari mu gihe cyo kwirinda indwara z'ubuhumekero.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye hamwe bambaye udupira twabugenewe, bakaba bari kumwe n'abarezi babo, aho bari kugenda babigisha indangagaciro z'umuco Nyarwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye, ifite imireko isa ubururu ndetse n'inzugi zisa ubururu, imbere yayo hahagaze umwarimu wambaye akajile.

Ahantu hatunganyijwe mu busitani, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, babiri bahagaze imbere aho umwe mu banyeshuri ari kuvuga iruhande rwe hari undi munyeshuri uhagaze ndetse n'umuyobozi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye mu busitani ahantu munsi y'ibiti bari gukurikirana inama bari kugezwaho n'abayobozi babo.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ikaba igaragara nk'aho ishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, ku ruhande rwayo hari ikigega gifata amazi ndetse imbere yayo no mu zindi mpande hari ibikoresho bishobora kwifashishwa mu mikino y'abana.

Abantu benshi batandukanye, harimo abambaye bijyanye n'imirimo bashinzwe, bahagaze ahantu hamwe, aho bakoze uruziga, bigaragara ko ari mu kigo cy'amashuri, inyuma yabo hari inyubako, zifashishwa nk'ibyumba by'amashuri.

Abagabo bahagaze imbere y'inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ndetse n'inzugi zisize irangi ry'ubururu bakaba barimo baratanga inama ku bantu bagiye batandukanye ndetse babasha kugira icyo bimarira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bicaye bari mu ishuri aho imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha, agenda abigisha ibintu bigiye bitandukanye nabo bamukurikiye.

Inyubako y'ishuri yubatse mu buryo bugezweho, iririmo imfashanyigisho zitandukanye, aho harimo n'ibikoresho bifasha mu gutanga uburezi, harimo intebe ndetse abanyeshuri benshi bicaye bigaragara ko bari gukurikira amasomo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe bicaye munsi y'igiti, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'abandi bambaye umuhondo.

Abanyeshuri bahagaze hamwe aho bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ikigina hasi ndetse n'abandi bambaye amapantaro y'umukara, bari gufata ifoto y'urwibutso, bahagaze imbere y'ishuri ryabo kugira ngo bazajye bibuka ko bize neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bateraniye hamwe, aho bicaye mu dutebe twiza twabugenewe bambaye impuzankano z'ishuri, amashati ndetse n'imipira y'icyatsi bakaba bambaye utujipo tw'icyatsi n'amasogisi meza.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho yubakisheje amatafari ahiye ndetse ikaba ifite n'amabati y'ubururu, imbere yayo hari ikigega kibika amazi ndetse n'abantu bari kuhaca bambaye amajiri y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane z'amashuri zubatswe mu buryo bw'amagorofa, zikaba zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo.

Icyumba giteraniyemo abanyeshuri benshi aho bicaye ku ntebe nziza, hakaba hahagaze umwarimu imbere yabo uri kubigisha ibintu bigiye bitandukanye, abaha n'inama ku mibereho yabo kugira ngo biteze imbere.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho ikaba ishobora gukoreshwa nk'icyumba k'ishuri yubatse mu buryo bugerekeranye aho ibyumba byinshi bishobora kubakwa mu mwanya muto bigatuma ikigo cyakira abanyeshuri benshi.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isizwe n'amarangi y'umuhondo n'umweru ikaba ihagazeho abagabo bambaye amataburiya y'umweru bafite murandasi mu ntoki barimo barazirebamo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ikigina aho bahagaze imbere y'igicumbi k'ishuri ryabo bigaragara ko barimo barahabwa ifoto kugira ngo bajye bibukiranya ikindi kandi babashe no kunguka ubumenyi ku ishuri bigaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteraniyemo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye. Hakabamo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye neza cyane.

Abantu bahagaze hamwe, aho bambaye imipira y'imyeru ndetse n'imishumi mu ijosi, igaragaza icyo bakora, bakaba bateretsweho uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse n'ururabo, aho barimo baraseka.

Abantu benshi batandukanye, bari mu nyubako nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe ndetse n'ameza, bishobora kwifashishwa mu kwiga ndetse no gufata amahugurwa.

Imbuga nziza itunganyijwe ikozwe mu buryo ibitaka bitabasha kugera hejuru, ku ruhande ifiteho inzira y'abanyamaguru, aho harimo umuntu uri kuyinyuramo bigaragara ko ari kugana mu bindi bice.

Ibibumbano byinshi bigiye bitandukanye, biba byarakozwe n'abana bize ibijyanye n'ubugeni mu mashuri yabo, baba ari abahanga, aho babikora neza bakajya babigurisha, bakabonamo amafaranga.

Icyumba kiza cyubatse ku buryo bugezweho gifite umuryango mwiza wo mu rugi rw'igiti usize irangi ritukura ndetse n'inkuta zacyo zikaba zisa umweru aho bifasha abantu gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ifite umuryango usize irangi ry'umukara, mu gihe ku igikuta cyayo gisize irangi ry'ubururu, harimo ibirahure mu nzugi, mu gihe umuryango ufite nimero zeru, inyuguti ya R, zeru rimwe.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri, aho barimo barakora ibizamini ndetse bakabasha no gusubiza ibyo bize kugira ngo babashe kugaragaza ubumenyi bafite, buzabateza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ikayi yanditsemo imibare, aho igaragaza abana biga imibare igiye itandukanye, ibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi kugira ngo biteze imbere ndetse bagire icyo bamarira igihugu muri rusange.

Ikibumbano gikozwe mu ibumba aho giteretse hejuru ku meza, kikaba ari umutwe w'umuntu, bifasha umubumbyi kuba yakora ibintu bikundwa n'abantu, bakabasha kumuha amafaranga amutunga.

Inyubako nziza cyane ya Kaminuza iteye kabasasu isa n'ivu, ikaba iriho inzugi nziza cyane zisa ubururu ndetse n'ibirahure bya fime byiza cyane.

Udukoresho tugiye dutandukanye bakuru mu ibumba, tukaba turi ahantu hamwe tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'ubugeni muri kaminuza y'u Rwanda.

Igipapuro cy'umweru gishushanyijeho inyubako zitandukanye ndetse n'ibiti bigaragara ko ibi byakozwe binyuze mu isomo ry'ubugeni aho abana bashushanya ibishushanyo bitandukanye.

Inyubako nziza itunganyijwe irimo ibikoresho bihagije bishobora kwifashishwa mu burezi harimo intebe z'ubururu zishobora kwifashishwa igihe umuntu akeneye kwandika ndetse harimo abantu batatu bahagaze.

Ududebe twiza cyane tw'ubururu twanditseho amagambo yu'mweru. Udutebe twiza cyane kubera ko tuba ari ingirakamaro abanyeshuri batwicaraho igihe baba bari gusubiramo amasomo yabo.

Urujya n'uruza rw'abantu aho bari guca mu muhanda mwiza, uri imbere y'inyubako kugira ngo bajye kwiga amasomo atandukanye, abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, bakabasha kugira icyo bageraho, bakaba abayobozi ndetse n'abandi bantu bakomeye.

Igikuta k'inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru lu bikuta ndetse iriho n'inzugi zifite amabara y'umutuku, ikaba iri ahantu heza cyane kandi yigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku rukuta, hakaba hariho igishushanyo biri ku cyapa by'abantu benshi batandukanye bari mu myidagaduro ndetse n'abandi bakobwa bari kubyina.

Abantu bakoze umuhango wo kwambara imyambaro nk'abanyeshuri bashoje za Kaminuza, bakaba bishimye ari benshi cyane, bateraniye hamwe, bambaye imyambaro myiza ibabereye kandi ishimishije.

Udutebe twiza cyane tugiye dutandukanye, tuba turi muri kaminuza y'u Rwanda kuburyo abanyeshuri bigamo batwifashisha bari kwiga amasomo yabo bakayakurikirana neza.

Icyumba kigari kirimo intebe zikoreshwa mu kwicaraho igihe abanyeshuri bari kwiga amasomo agiye atandukanye, bikabafasha kunguka ubumenyi, bakabasha kugira icyo bigezaho ndetse n'icyo bageza ku gihugu muri rusange.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi aho bigaragara ko bari kwiga amasomo agendanye n'ibyo bashaka kwiga bakazabasha kunguka ubumenyi butuma bagira icyo bageraho ndetse bakabasha no guteza imbere Igihugu cyabo.

Ibibumbano bitandukanye bikozwe mu ibumba, aho bikoreshwa n'ababumbyi kugira ngo babijyane ku isoko babone amafaranga babasha kubateza imbere mu miryango yabo, bagire icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira Igihugu.

Umuntu wicaye uri gucuranga inanga bigaragara ko akunda umuziki bityo akaba ashobora kwifashishwa ari kugira ngo bigishe abana amasomo yerekeranye no gucuranga.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe aho imbere yabo hahagaze abagabo babiri umwe usoje amashuri ndetse n'undi uri kumuha impano bigaragara ko bari kwidagadura kuko barangije ikiciro cy'amashuri kugira ngo baziteze imbere.

Ibikoresho bitandukanye bikorwa mu ibumba, aho biri mu kabati keza ndetse bikaba byafasha umubumbyi kubicuruza akabona amafaranga, akiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we bita n'Igihugu muri rusange.

Amashusho atandukanye cyane cyane ay'inziga, bikozwe mu buryo buhangano aho abanyeshuri binyuze mu bugeni, bakora bakagira uburyo bashobora kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite ubusitani bwiza buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, hakaba hari n'akayira keza cyane gashashemo amapave.

Igikuta gishushanyijeho igitenge, aho icyo gitenge gishushanyijeho uduseke twiza cyane two mu mabara y'umweru n'umukara, duteye ubwuzu ku buryo kutubona biba bishimishije.

Igishushanyo cy'ikibumbano cy'umuntu wambaye amadarubindi kiba cyarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyinyigiro cyane, bakabishushanya ahantu ku bikuta bimeze neza, ku buryo iyo ubirebye ubona bibereye ijisho.

Ikibumbano gikoze mu ibumba, aho gifasha ababumbyi kubona amafaranga, biturutse mu byo babumba, bakabasha kubishora ku masoko, bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Ibibumbano bikozwe mu ibumba, aho ubikoze mu nyamaswa z'inyoni, bikaba bifasha abanyeshuri kwiga amasomo agiye atandukanye, abungura ubumenyi ku bigendanye n'ubugeni, bakabasha kwiteza imbere.

Ikibumbano kibumbye mu ibumba aho gisa n'ikibindi kitararangira neza aho bifasha umubumbyi kubona amafaranga ndetse akiteza imbere akagira icyo amarira igihugu ndetse n'icyo yimarira we ubwe muri rusange.

Inyubako yigirwarwamo n'abanyeshuri ba Kaminuza, aho haba harimo udutebe twiza twabugenewe abanyeshuri bicaraho bari gusubiramo amasomo yabo kugira ngo babashe kuba bayatsinda.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umugore, uwo mugabo ni umwarimu wiga muri Kaminuza n'uwo mugore na we yambaye ikanzu n'ingofero nziza.

Abanyeshuri batandukanye b'ingeri zose, bahagaze ahantu hamwe, bambaye amakanzu y'ubururu, mu gihe ingofero bazizamuye hejuru, bigaragara ko basoje ibyiciro bya kaminuza bitandukanye.

Igikuta gisize irangi ry'icyatsi gitunganyije neza ku buryo gishobora komekwaho ibindi bikoresho byifashishwa mu kugaragaza ubugeni, ni kimwe mu bikorwa bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'abaturage.

ibikoresho bikorwa mu ibumba, bikorwa binyuze mu cyitwa ubugeni, bishobora kwifashishwa mu mirimo igi itandukanye, aho umuntu ubikora ashobora kubyungukiramo ndetse akiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we.

Abanyeshuri bashoje ikiciro cy'amashuri kugira ngo babashe kunguka ubumenyi aho bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'ingofero bazitereye mu kirere, bakaba bari kwishimira ko basoje amashuri yabo bagiye kwiteza imbere.

Abantu batandukanye bari mu gikorwa cyo kugenda aho bari kugenda babiri babiri baganira ahantu hatunganyijwe hakoze inzira nziza bashobora kunyuramo bakagera mu nyubako ziri muri iki kigo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza, iba iteye amarangi atandukanye ndetse inashimishije kuyireba ku buryo iba ari nziza.

Ibihingwa bigiye bitandukanye bishushanyije hamwe aho muri ibyo bihingwa harimo: n'inanasi, n'imineke na pome, bikaba ari ingirakamaro kubera ko umuntu wabiririye agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibumba riri ahantu hamwe aho rifasha umumbyi kubumba ibikoresho bitandukanye, bimufasha kubona amafaranga igihe yabishoye ku isoko, akabasha kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'igihugu muri rusange.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama kigari, aho bambaye imipira y'umukara ndetse bakaba bateretseho n'ducupa tw'amazi imbere yabo, aho bari kwiga ibintu bigiye bitandukanye, bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere abanyeshuri ba kaminuza bigiramo. Hakaba harimo umwe wambaye agapfukamunwa n'itaburiya, uri kwandika undi amuhagaze hejuru areba ibyo yandika.

Abanyeshuri bashoje ikiciro cya kaminuza aho bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'ingofero zisa umukara, bakaba bafiteho n'utuntu tw'umuhondo bafashe igipapuro mu ntoki bari kurahira kugira ngo baziteze imbere.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye tuba dukozwe mu ibumba, tuba ari twiza cyane kandi dushimishije ku buryo hari abantu batugura bakajya kuduteramo indabyo iwabo mu rugo.

Uduterere twiza kandi twinshi tugiye dutandukanye aho udutere ari twiza ndetse tuba twarakozwe n'abahanga tukicarwaho n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda.

Ibikorwa bitandukanye bifite aho bihuriye n'ubugeni, aho abanyeshuri bafashe ibitenge bakabikata bagakoramo amashusho agiye atandukanye, ashobora kwifashishwa nk'imitako mu ngo z'abantu.

Ibikoresho bitandukanye birimo intebe n'ameza, birambitseho ikayi yanditsemo bigaragara ko umunyeshuri yayikoresheje ari kwiga bityo bimufasha kunguka ubumenyi, azifashisha mu buzima busanzwe.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe, mu mugikorwa cyo kwishimira ko basoje kaminuza cyangwa se amasomo ya kaminuza, bityo bambaye imyambaro iranga abantu basoje amasomo.

Inyubako nziza cyane zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho abanyeshuri biga muri Kaminuza, baba barazikoze neza bazubaka kugira ngo abana bajye bazigiramo nta kibazo bagize.

Igikuta giteyeho amarange y'icyatsi aho icyo gikuta ari kiza cyane kubera ko kiba kiriho udushushanyo twiza tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.